Hari abantu benshi ndetse n'urujya n'uruza rw'amamodoka agiye atandukanye, amakamyoneti ndetse n'atwara imizigo, hakaba hari n'amapikipiki menshi, akaba ari ahazwi nko mu Nkundamahoro i Nyabugogo mu mujyi wa Kigali.